Ni inzu nini bigaragara ko ijya iberamo ibintu bigiye bitandukanye by'ibirori, hicayemo abantu benshi higanjemo urubyiruko, abahungu n'abakobwa bambaye imipira y'umuhondo indi n'iy'icyatsi bigaragara....

N'inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye nk'iz'ubukwe harimo abantu bakeya harimo abagabo ndetse n'abakobwa ku meza hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amashakoshi amakaramu ndetse n'amakayi.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umuhondo ku bikuta, ifite ibitambaro byinshi ku madirishya bifite ibara ry'umuhondo, hicayemo abantu benshi bigaragara ko hari inama barimo, ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni inzu yubakishije amakaro kubikuta irimo intebe nyinshi zisize irangi ry'umukara, harimo abantu batatu, abagabo babiri n'umukobwa umwe. Ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa, mashini, umama afite ikaramu.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye z'ubukwe ndetse n'izindi, hicayemo abahungu b'urubyiruko bambaye imipira y'ubururu, iriho idarapo y'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho yabakishije ibirahure byinshi, hahagaze abantu benshi higanjemo abapapa, bigaragara ko hari umuntu wari urimo ubafotora, harimo abayisilamu bari bambaye.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abakobwa, bicaye ahantu hari ibitambaro bifite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi hateye ibyatsi bito.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, ushobora no kwakiriramo abashyitsi, isize irangi ry'umweru ku bikuta, hicayemo abantu higanjemo abagabo n'umumama, buri wese agiye afite icyo kunywa ku ruhande.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abamama ndetse n'abapapa bicaye mu byatsi bikase bitoya, abandi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho bigaragara ko aribo bayobozi harimo uwari wambaye imyenda y'icyatsi.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, iz'ubukwe ndetse n'izindi, harimo intebe zisize irangi ry'umuhondo, hicayemo abantu benshi bagiye batandunye, abamama ndetse n'abagabo, imbere hasize irange.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye; isizeye irangi ry'ubururu yandikishije mu magambo y'umweru; harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye zisize irangi ry'umukara; harimo abantu higanjemo abagabo.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye z'ubukwe ndetse n'izindi, hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abakobwa, imbere hicaye abantu bane bafite amacupa y'amazi.

Ni inzu nini bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, hicayemo abantu batanu, umumama umwe n'uhagaze w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara, afite irangururamajwi bigaragara ko ariwe uri gutanga ijambo.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye iz'ubukwe ndetse n'izindi, harimo abantu higanjemo abagabo. Umwe wari uhagaze w'inzobe, ufite ikaramu mu ntoki, wambaye ipantaro y'umukara. Bigaragara ko ari we uri kuvuga ijambo.

Inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, yubatse mu buryo bugezweho. Igizwe n'ibirahure byinshi, isize iragi ry'umweru ku bikuta. Harimo intebe zisize iragi ry'umukara, hicayemo abantu bagiye batandukanye. Abagabo ndetse n'abakobwa...

Umukobwa w'imibiri yombi usutse imisatsi y'umukara upfumiye amatwi ufite irangururamajwi, bigaragara ko hari ibintu yari arimo arasoma byari biteretse ku meza isize irange ry'umutuku, hari abantu ari kubwira.

Ni inzu nini bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, iz'ubukwe ndetse n'izindi, hicayemo abantu benshi ku ntebe z'umukara, ku meza hariho ibitambaro by'umukara amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni inzu nini bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, isize irangi ry'umweru ku bikuta, hicayeyemo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abamama bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru ndetse no ku me...

Ni inzu yubakishije amatafari hasi, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abakobwa, imbere hahagaze abamama batatu, bigaragara ko hari umuntu uri kubafotora, undi afite urupapuro rw'umweru.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, iz'ubukwe ndetse n'izindi, harimo abantu bagiye batandukanye, higanjemo aba papa, ndetse harimo umu mama ufite imisatsi y'umukara, w'inzobe, imbere ye hateretse ikirahure.

Ni inzu iberamo inama zigiye zitandukanye, iz'ubukwe ndetse n'izindi, yubakishije amakaro ku bikuta, harimo intebe nyinshi zisize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, hicayemo abantu higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Ni inzu yubakishije amakaro y'umweru ku rukuta, irimo umugabo w'inzobe wambaye ishati y'umweru, ku meza hateretse amacupa y'amazi, mashini, undi wambaye imyenda y'umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abana, imbere hicaye abantu babiri bashinzwe umutekano w'igihugu, hari ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ni inzu y'inama iberamo ibintu bigiye bitandukanye, isize irange ry'umuhondo ku bikuta ifite ibirahure mu madirishya, hicayemo abantu batatu ku ntebe y'umukara umwe yambaye karuvati y'umukara.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru ryandikishije mu ibara ry'umweru n'ubururu riri kwamamaza Irembo, ni ahantu ushobora kujya kwaka serivisi zigiye zitandukanye kubitsa gufotoza ndetse n'ibindi.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'ubururu, cyandikishije mu magambo y'umweru n'ubururu, bigaragara ko ari ahantu ushobora kujya kwaka serivisi zigiye zitandukanye, nko kubitsa, gufotoza impapuro ndetse n'ibindi.

Ni inzu ifite ibikuta bisize irange ry'umuhondo, irimo abantu benshi higanjemo abakobwa, abenshi muri bo barasutse, bafite amatelefoni mu ntoki, bigaragara ko buri wese afite ibintu ari kugenda afotora.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko bari kwamamaza ibijyanye n'irembo, ni ahantu bakora serivisi zigiye zitandukanye, kubitsa, gufotoza ndetse n'ibindi.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, hari inzu yubakishije imbaho, isize irangi ry'umweru n'umukara ku cyapa gihari, mo imbere harimo abantu batatu bigaragara ko hakeneye

Ni inzu nini yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo intebe zisize irange ry'umweru, hicayemo abantu bafite mashini imbere zabo bigaragara ko hari ibintu bari gukora, umwe yambaye ingofero y'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakisheje amakaro y'umweru hasi, hicayemo abantu benshi ku ntebe z'umukara bigaragara ko ari isomero harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'umuhondo, cyandikishije mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho telefone bigaragara ko hari ibintu bari kwamamaza, hari mashini.

Ni umunara munini uriho insininga nyinshi, ni wo bifashisha bayobora umuriro ahantu hagiye hatandukanye insinga niho ziwukura, hateye ibiti byinshi, ibigori ushobora gukuramo umuceri cyangwa...

Ni imodoka isize irange ry'umweru, hirya hari inzu bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, imyenda y'abamama ushobora kwambara ugiye gusura abantu mu bukwe ndetse n'ahandi, hari ipoto iriho insinga.

Ni umuhanda w'umukara hari umunyamaguru w'umukobwa wambaye ijipo y'umutuku, umupira urimo uturongo tw'umutuku ndetse n'umweru insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu.

Ni insinga nyinshi bifashisha bayobora amashanyarazi ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu, hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye igisize irange ry'umweru cyandikishije mu magambo y'umutuku, bigaragara ko bari kwamamaza eyateli.

Ni inzu nini zigiye zitandukanye, zubatse mu buryo bugezweho, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hanze hateye ibiti bigufiya bikase bigaragara neza, hari insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Ni insinga nyinshi ziyobora amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu, hirya hari inzu ifite ibirahure by'umukara, hagiye hariho imirongo isize irangi ry'umweru, hari icyapa...

Ni ipoto ndende, iriho insinga zigiye zitandukanye, ziyobora amashanyarazi mu gihugu cyose, hirya hateye ibiti birebire byinshi, twifashisha tubona umwuka duhumeka, abanyamaguru ndetse n'abamotari baparitse.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru bigaragara ko ushaje, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umukara, harimo indi isize irange ry'umweru.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, ifite amabati asize irangi ry'umutuku bigaragara ko ryacuyutse haparitse imodoka isize irangi ry'umukara, umutaka wa Emutiyene.

Ni inzu nini isize irangi ry'umweru. Hejuru harimo ibitambaro bifite ibara ry'ubururu, ibitanda byinshi biryamyeho abantu. Bigaragara ko ari abarwayi baryamye ku mashuka y'umweru, buri muntu wese harimo uwambaye.

Ni umuhanda wamabuye urimo imirongo y'umweru, haparitse imodoka nyinshi zigiye zitandukanye harimo zisize irange ry'umukara, hateye ibiti, ibikuta byubakishije amatafari ahiye zisize irange ry'umuhondo ama...

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo n'umukara hasi, yubakishije amakaro hasi, bigaragara ko ari ivuriro cyangwa indi nzu bashobora kubamo ari abantu benshi bagiye batandu...

Inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho isize irangi ry'umutuku ku mabati, yubakishije amatafari ahiye, hahagaze abantu babiri b'abahungu, hari icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru.

Inzu nini isize irangi ry'umuhondo ku bikuta, ku nzugi hariho. Irangi ry'umweru, hasi hubakishije sima, hari abantu benshi bigaragara ko ari kwa muganga, umumama wicaye ku ntebe zimbaho, umugabo ufite urupapuro mu ntoki uhagaze.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro y'umweru hasi, isize irangi ry'umweru ku nzugi, yubakishije amatafari ahiye, hanze hicaye abantu benshi, ku ntebe z'imbaho.

Ni umugabo ufashe idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, yambaye ingofero y'umukara irimo imirongo y'umuhondo, afite irangururamajwi bigaragara ko ari kurahira.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, irimo abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara, abandi bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imyenda y'iroza bigaragara ko ari imfungwa zaje kuburana ibyaha bigiye bitandukanye...

Ni inzu isize irange ry'umuhondo ku bikuta, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abambaye imyenda y'umukara, bicaye ku ntebe z'umutuku, hari idarapo ry'u Rwanda...

Ni abagabo babiri bashinzwe umutekano wo mu muhanda bafashe umugabo w'imibiri yombi wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umutuku ,inyuma ye hari abandi bagabo babiri bambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara.

Ni umugabo w'umibiri yombi, ufite irangururamajwi mu ntoki ye, bigaragara ko hari ijambo ari gutanga ku bari bamukurikiye, yambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara, inyuma ye hari icyapa gisize irangi ry'umweru.

Ni inama y'abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho, higanjemo abagabo n'abagore hari uwari uhagaze yambaye imyenda y'iroza, yambarwa n'imfungwa bitewe n'ibyaha wagiye ukora yihagaze...

Inzu nini iriho icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije amagambo y'umukara, mo imbere hateyemo ibiti birebire bigaragara ko ari ahantu bafungira abantu bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye, bakamaramo igihe gitandukanye.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'ucukutse urimo imodoka, bigaragara ko iri nshyashya itarajya mu muhanda isize irange ry'umweru, inyuma yayo hateye indabyo inzu isize irangi ry'umweru ku bikuta, hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara uparitsemo imodoka ebyiri, imwe yifashishwa n'abashinzwe umutekano isize irange ry'umweru n'umukara hari inzu ndende yubatse mu mujyi ugezweho, ifite ibirahure byinshi mu madirishya hari indi isize irangi ry'umukara.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abamama, bamwe bicaye ku ntebe, batatu barahagaze, umwe yambaye umupira w'umweru wandikishije mu magambo y'umukara bigaragara ko ari bo bayoboye.

Ni umumama w'imibiri yombi wambaye amarinete, ufite imisatsi y'umukara wambaye agapira k'umukara ishati y'umweru irimo uturabyo, bigaragara ko hari ibintu ari kureba.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imyenda imeze kimwe, imipira y'umweru ndetse n'ubururu, imbere hicaye abantu batandatu, harimo ushinzwe umutekano, abandi bambaye.

Ni umugabo w'imibiri yombi wambaye rinete z'umukara, wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru, n'ubururu, wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'ubururu, imbere ye hari indangururamajwi nyinshi zigiye zitandukanye.

Ni ihuriro ry'abantu benshi cyane, imbere hari umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame, yambaye ishati y'umweru karuvati y'umukara, ikote ry'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari madamu Jeannette Paul Kagame yambaye...

Ni abantu benshi bagiye batanduye abagabo n'abagore bigaragara ko harimo uri kubafotora, hari amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye iry'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'umweru, hateye ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'igitaka uparitsemo imodoka nyinshi, irimo irangi ry'umukara, abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru, uwambaye ishati y'umukara, karuvati y'umukara n'umweru, uhagaze bigaragara ko hari ijambo ari kuvuga.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu isize irangi ry'umutuku ibirahuri by'umukara hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye, ibavana mu ntara imwe ibajyana mu y'indi, hari abantu benshi bari kugenda n'amaguru, abari bicaye ku mifuka y'umweru.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'ucukutse urimo imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye iyivana mu ntara imwe ijyana mu yindi, ikaba ihetse inka nyinshi hirya hateye ibiti byinshi.

Mu muhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, abamotari bahetse abagenzi, inyuma hari imodoka isize irangi ry'umutuku, hirya hateye ibiti birebire byinshi bigiye bitandukanye, twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni umuhanda w'umukara urimo umunyonzi uhetse umugenzi, imodoka bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye mu gihugu isize irange ry'umweru, hirya hateye ibiti byinshi bizitiye birebire twifashisha tubona umwukaka duhumeka.

Ni umuhanda w'umukara urimo moto irimo umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'ikoboyi bayifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, imbere hari indi isize irangi ry'umweru indisize iry'umutuku.

Ni umuhanda usa nk'uwacukutse urimo imodoka nyinshi zitwara abagenzi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu zisize irangi ry'umweru ifite ibirahuri by'umukara yanyandikishije mu ibara ry'umutuku hari abagenzi benshi.

Ni umuhanda w'umukara, usa n'ucukutse, uparitsemo imodoka zigiye zitandukanye bifashisha batwara abantu mu ntara zigiye zitandukanye, isize irangi ry'umweru, hari abanyamaguru benshi, harimo.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, imodoka nini isize irange ry'umweru, bayifashisha bavanga imicanga na sima ahantu bagiye kubaka, hirya haparitse imodoka hari icyapa.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, hari umuhungu wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, umupira w'umukara ahetse igikapu ari kumwe n'undi wambaye ikabutura y'umukara, imbere hari umukobwa ufite imisatsi myinshi, hirya hari inzu ifite urugi rusize irangi ryi'cyatsi.

Ni umuhanda wumukara usa nkushaje urimo imodoka nini, itwara abantu benshi bagiye batandukanye mu gihugu, ibavana mu ntara imwe ibajyana mu yindi, isize irangi ry'umweru hige hari umunyamaguru uri kugenda, hatera ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo abamotari benshi bagiye batandukanye abahetse abagenzi n'abadahetse; abanyamaguru harimo ufite ingorofani itwara imizigo igiye itandukanye; hirya hari inzu ndende yubatse

Ni umuhanda w'umukara usa nk'uwacukutse, urimo imodoka bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, bayivana mu ntara imwe bayijyana ahandi, irimo umuntu, hirya hateye ibiti birebire byinshi, abanyamaguru, ndetse n'umumotari umugenzi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru amamoto menshi arimo isize irangi ry'umweru n'umukara abenshi, ni abagenzi bahetse bafite imodoka nyinshi zigiye zitandukanye izisize irangi ry'umukara ndetse n'umutuku.

Ni ibyapa bibiri bisize irangi ry'umutuku n'umweru kimwe gishushanyijeho indege itwara abantu benshi bagiye batandukanye, ibavana mu gihugu kimwe ibajyana mu ikindi, ikindi gishushanyijeho imibare ibiri, cumi na kabiri hirya hateye ibiti birebire.

Ni inzu ifite igipangu gisize irangi ry'umweru ku byuma, hanze hari icyapa gisize irangi ry'umweru n'umutuku, mo imbere harimo umuntu, bigaragara ko ari kwambuka, hari umuhanda w'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru n'umutuku, hari icyapa gisize irangi ry'umuhondo n'umukara, hirya hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye, ibirebire ndetse n'ibigufiya, twifashisha tubona umwuka duhume...

Ni ibyapa bibiri, kimwe gisize irange ry'ubururu n'umweru, kirimo umuntu uri kwambuka mu mirongo yumukara, hasi hari ikindi gisize irangi ry'umweru n'umutuku kirimo imirongo imanuka n'izamuka.

Icyapa gisize irange ry'umweru n'umutuku, cyandikishije mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho igare bigaragara ko bitemewe kuhaparika igare kuko ushobora kuhaparika ugacibwa amande y'amafaranga.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'umutuku, hashushanyijemo abantu babiri bigaragara ko umwe ari umukobwa undi ari umuhungu, hirya hateye ibiti byinshi twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni umuhanda w'ibitaka haparitse imodoka, imwe isize irangi ry'umweru ifite imirongo y'umuhondo hasi, indi isize irangi ry'umukara, hateye ibiti byinshi birebire twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho igeretse inshuro enye, iriho icyapa gisize irange ry'ubururu n'umweru ishushanyijeho umukobwa wambaye imyenda y'umukara, hasi hari urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni umuhanda w'amabuye, hirya hari inzu ndende yubatse mu buryo bugezweho igeretse, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara mu madirishya, bigaragara ko ari ahantu ushobora kuza usohokanye n'umuryango.

Ni umuhanda wumukara urimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, haparitse imodoka zisize irangi ry'umweru n'umukara, hari umutaka wa MTN ni ahantu ushobora kujya ugiye kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga, hari inzu ndende.

Ni inzu nini igeretse, yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, ifite ibirahure bisize irangi ry'ubururu, hanze hateye ibiti bitari birebire.

N'inzu nyinshi zubatse mu buryo bugezweho bugiye butandukanye, izigeretse, zisize irangi ry'umukara mu mirongo imanutse, hari izindi zifite amabati asize irangi ry'ubururu, ndetse n'umutuku, hateye ibiti byinshi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ushobora kubamo wowe n'umuryango wawe ndetse n'abagusuye, ifite ibirahure bisa umukara, hanze ku gipangu hasize irangi ry'umutuku n'umweru.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, ku rukuta isize irangi ry'umweru, hari n'aho hasize irangi ry'umukara, iherereye.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo; abamotari benshi bahetse abagenzi, imodoka zisize irangi ry'umukara zicanye amatara y'umutuku; indi modoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry'ubururu.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari wicaye ku moto, isize irangi ry'umutuku, ifite imisego y'umukara, hirya hari igikamyo kinini gitwara imizigo igiye itandukanye mu gihugu, hari insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari wicaye kuri moto isize irange ry'umutuku ifite imisego y'umukara, hirya hari icyapa gisize irange ry'umweru n'umutuku, hareye ibiti byinshi twifashisha tubona umwuka duhumeka.

N'umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru moto isize irangi ry'ubururu bayifashisha batwara ibintu bijyiye bitandukanye mu gihugu hateye ibiti birebire byifashishwa tubona umwuka duhumeka hari abamotari.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo, imodoka bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye mu gihugu, iyivana mu ntara imwe iyijyana mu yindi, isize irange ry''umweru, umumotari, umunyamaguru wambaye ipantaro' y'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, abamotari benshi badahita abagenzi, imodoka isize irange ry'ubururu hirya hateye ibiti byinshi birebire, abanyamaguru ndetse n'indi.

Mu muhanda w'umukara biragaragara ko ari ku masaha ya nimugoroba kuko amatara yatse, hari igikuta kinini gisize irange ry'umweru, umunyonzi wicaye ku igare, umumotari, hirya hari imodoka ifite amatara y'umutuku.

Ni umuhanda w’umukara urimo imirongo y'umweru, imodoka nyinshi zigiye zitandukanye harimo isize irangi ry'umweru igendamo abashinzwe umutekano n’indi yifashishwa batwara ibintu bigiye bitandukanye mu gihugu.

Ni umuhanda w'umukara irimo imodoka itwara abagenzi bakeya isize irange ry'umukara, indi nini itwara imizigo igiye itandukanye iyivana mu ntara imwe iyijyana mu yindi isize irange ry'umutuku, abamotari bahetse abagenzi...

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru. Imodoka nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye ibavana mu ntara imwe ibajyana mu yindi, isize irangi ry'umweru. Hirya hateye ibiti birebire byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo, umumotari uhetse n'udahetse, imodoka bifashisha batwara imiziga igiye itandukanye, isize irangi ry'ubururu, hirya hateye ibiti byinshi, ibirebire n'ibigufi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, umumotari wicaye kuri moto isize irangi ry'umutuku, hari icyapa gisize irangi ry'umutuku n'umweru, imodoka itwara ibintuge bigiye bitandukanye, isize irangi ry'umweru n'umutuku.